Abaturage bakunda guhurira hamwe, kugira ngo bagire ibikorwa bakora bibafasha mu iterambere ryabo. Mu gihe abaturage bahuriye hamwe, hari ibikorwa byinshi kandi byiza bashobora gukora, bikaba byabateza imbere, kandi bigateza imbere igihugu muri rusange.

Ifumbire mvaruganda, ni ingirakamaro cyane ku bihingwa. Abahinzi baba bakwiriye kumenya ubwoko bw'amafumbire bakoresha, bitewe n'aho bahinga ndetse n'ibihingwa bakunda guhinga kugira ngo bibabyarire umusaruro.

Abahinzi baba bakwiriye guhabwa imbuto yihariye. Ni yo mpamvu, hari abacuruzi bacuruza imbuto ziba zaratunganyijwe kugira ngo abahinzi babone umusaruro uhagije. Mu gihe umuhinzi agiye gufata izo mbuto, aba agomba gusobanurirwa bihagije uko yazitera.

Mu buhinzi hakenerwa ko abantu bakenera imiti ndetse n'imirama yo guhinga, mu gihe ibyo babikeneye baba bakwiye kugenda bakareba umucuruzi wabigize umwuga ndetse ubifiti n'uburenganzira, akaba ari we baguriraho ibyo bintu.

Imvaruganda ifitiye akamaro abaturage kandi ituma umusaruro wabo wiyongera. Mu gihe umuntu yahingishije imvaruganda agomba kwirinda gushyiramo ifumbire y'imvaruganda nyinshi kuko bishobora kwangiza umusaruro ndetse akaba yanawubura.

Ifumbire mvaruganda, ituma abantu babona umusaruro uhagije, abantu bakwiriye gukoresha imvaruganda, ariko bakirinda gukoresha imvaruganda nyinshi mu gihe bahinga, kuko bishobora gutuma umusaruro wabo ugabanuka.

Ahantu bacururiza imirama cyangwa se imbuto haba hazwi neza ndetse n'umuntu ucuruza izo mbuto aba akwiriye kuba asobanukiwe neza ibijyanwe n'ubuhinzi kugira ngo afashe abahinzi kumenya imbuto bahinga bitewe n'ubutaka bahinga.

Mu buhinzi abantu bakenera ibintu byinshi, by'umwihariko ifumbire rikoreshwa mu buhinzi riba rikwiriye kwitonderwa kuko riramutse ritameze neza rishobora kwangiza imyaka. Ni yo mpamvu abahinzi bakwiriye guhitamo imvaruganda bahingisha.

Mu buhinzi abantu bakenera ifumbire, iryo fumbire rishobora kuva ahantu hatandukanye ariko ifumbire ryiza ni ifumbire riba ryavuye mu matungo, ni ukuvuga ifumbire riva mu byatsi amatungo aba yarakafakavye, hanyuma na byo bikaba ibyatsi bivamo ifumbire.

Hari inyubako nyinshi zicururizwamo, abantu bacuruza hari inyungu bagenda babona, bashobora gucuruza ibintu bitandukanye birimo imiti y'amatungo, ibyokurya ndetse n'ibyo kunywa, kandi bishobora gushyirwa mu bikoresho bitandukanye.

Ahantu hacururizwa imirama, wahasanga n'ibikoresho bishobora kubafasha mu kuhira imyaka. Mu gihe umuntu agiye kugura imirama cyangwa se imbuto zo guhinga, aba agomba kubanza gusobanurirwa uko bazihinga.

Abantu bafite ibikorwa by'ubucuruzi, bashobora gucuruza ibintu bitandukanye, birimo imiti y'ubwoko butandukanye gusa kandagira ukarabe, ni ngombwa ku bantu bafite ibyo bikorwa by'ubucuruzi kuko bituma ahantu hakomeza kurangwa n'isuku.

Abantu bacuruza ibintu bitandukanye baba bakwiriye gushyiraho ibiciro byabyo kugira ngo umukiriya naza abone amafaranga akwiriye kwishyura, by'umwihariko hari imirama abantu bajya kugura batazi ibiciro byayo ariko iyo umuntu ashyizeho ibiciro, akamanika agapapuro imbere y'iyo mirama biba ari byiza.

Abantu benshi baba bakwiriye guhinga bashyizemo ifumbire niyo mpamvu hari ahantu henshi bashobora kurunda ibyatsi hanyuma ibyo byatsi uko igihe kigenda gihita birabora hanyuma na byo bigatanga ifumbire.

Abantu benshi bakunda gukora uko bashoboye kose kugira ngo bite ku bihingwa bahinze. By'umwihariko mu gihe bahinze ibihingwa, baba bakwiriye gushyiramo umuti, hanyuma uwo muti na wo ukabafasha gutuma ibyo bihingwa bikomeza gukura neza.

Abahinzi ni bamwe mu bantu bafitiye akamaro igihugu kuko bahinga ibihingwa abaturage bakabona ibyo kurya, nk'abahinga urutoki bashobora gutuma haboneka imineke abantu barya.

Ibimera bifitiye akamaro abaturage gusaba biba bikwiriye kwitabwaho. Ibimera biba mu moko menshi kandi bigira akamaro gatandukanye. Hari ibimera biba byarahinzwe kugira ngo bivemo indabo gusa bidatanga imbuto.

Abantu benshi iyo bahinze, baba bizeye ko bazasarura nk'ibihingwa birimo imyumbati, abantu benshi bakunze kubihinga by'umwihariko abantu batuye mu cyaro kandi babonamo inyungu nyinshi cyane, ibafasha mu buzima bwabo.

Ibyatsi biri imbere y'inzu biba bikwiriye kwitabwaho kugira ngo bitabasha kuba byakangiza inzu. Mu gihe umuntu afite inzu akabona hari ibyatsi biyisatira agomba kubibagara cyangwa se bakabikuraho kugira ngo bitangiza iyo nzu.

Imyaka iyo yeze abantu barayitunganya ku buryo bashobora no kuyirya. Mu gihe umuntu abona umusaruro yasaruye mu byo yahinze, yumva yishimye cyane, kandi bikamutera imbaraga zo kongera kuba yahinga.

Abaturage baba bakwiriye guhangayikishwa n'ibyo bahinze kugira ngo nabyo bikomeze kugira ubuzima bwiza; niyo mpamvu bakwiriye kubisura inshuro nyinshi kugira ngo bamenye uko bimerewe nibiba ngombwa bashyiremo n'imiti.

Abantu bashaka kugira ibiti bimeze neza cyangwa se ibihingwa bimeze neza, barabanza bakabitunganya cyangwa se bakabitubura mbere yo kubihinga, iyo byabanjije gutunganywa bigira akamaro cyane kandi bigira umusaruro uhagije.

Hari ibihingwa bigenda bihingwa ahantu hatandukanye kandi byose bituma abaturage barushaho kwiteza imbere, by'umwihariko avoka ni igihingwa gihingwa cyarabanje gutunganywa, kigatunganywa cyaragemetswe ahantu heza kugira ngo kizavemo imbuto nziza.

Abantu iyo bagiye guhinga ibihingwa, barabanza bakareba ibihingwa byiza. Ni yo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo haboneke ingemwe z'imbuto nziza z'ibiti, harimo ibiti birebire, babanza kubitunganya bakabigemeka ahantu habugenewe.

Guhinga bisaba imbaraga nyinshi cyane, gusa guhinga si byo byonyine bisaba imbaraga kuko no gusarura ibyo umuntu yahinze na byo bimusaba imbaraga, by'umwihariko mu gusarura ingano haba hakenewe abantu benshi bafasha muri icyo gikorwa.

Ibiti bifitiye akamaro cyane abaturage. Ibiti kimwe n'ibindi bihingwa bituma abantu babona umwuka mwiza bahumeka, kandi bishobora gutuma ubukungu bw'igihugu bwiyongera kuko bifasha abantu mu bikorwa bitandukanye harimo n'ubwubatsi.

Hari ibihingwa biba bishimishije kubireba kandi abantu benshi iyo babirebye bumva banyuzwe, bakishimira impumuro yabyo, ku buryo bumva babihora iruhande, bityo bakishimira ibyiza Imana yaremye.

Abantu bageze mu zabukuru aba ari inararibonye mu bijyanye no guhinga ariko kandi baba bakwiye kwigishwa ibijyanye nuko bafata neza ubutaka bwabo bityo iterambere ryabo rikarushaho kwiyongera.

abantu bari mu gikorwa cy'umuganda bakwiriye gukorera hamwe, umuganda n'ingirakamaro mu gihugu kuko ufasha abaturage gukora ibikorwa bibateza imbere ndetse bagateza imbere agace batuyemo n'Igihugu muri rusange.

Abantu benshi bakora akazi gasaba ingufu by'umwihariko abahinzi baba bakwiriye guhabwa agaciro cyane kuko baba bavunitse, bajya guhinga ahantu bakahamara igihe kirekire kandi bacukura cyane, kugira ngo babone ko babona umubyizi.

Abantu bahinga imyaka baba bizeye neza ko igihe kizagera bagasarura, hanyuma bakarya. Ibyo bibafasha gukomeza kubaho neza, kandi amafaranga yabo bakayazigama. Gusa biba bisaba gushyiraho imbaraga nyinshi, kugira ngo umuntu abone umusaruro uhagije.

Abantu benshi bakunda gukora ubuhinzi. Mu gihe umuntu agiye guhinga aba agomba kubanza kureba icyo agiye guhinga, by'umwihariko ababyeyi bakunze guhinga kugira ngo bazite ku bana babo, kandi ibyo birabafasha cyane.

Abantu bahinga imyembe baba bagomba kwihangana, bagategereza igihe kirekire, kuko imyembe ari igihingwa gihingwa abantu bakabona imbuto hashize igihe kirekire, ubwo rero baba bakwiriye gutegereza ko izo mbuto ziza kuri icyo giti.

Abantu bakora ibikorwa by'ubuhinzi bakwiriye kubyitaho cyane cyane mu gihe cy'izuba bakaba bakuhira imyaka yabo, ni byiza kandi ko abantu bubakiye ahantu imyaka bagomba kuyisura kenshi.

Abantu iyo bakoreye hamwe bagera ku bintu byinshi kandi bishobora kubagirira akamaro. Niyo mpamvu abishyize hamwe ntakibananira. Abakiri bato na bo bashobora gufashanya mu guhinga ubutaka bakabubyaza umusaruro.

Abantu iyo bahinze ibigori baba bakwiye gutegereza kugira ngo bibahe umusaruro. Ikigori kukirya kiraryoha kandi abahinzi bishimira kubona ibigori byabaye binini gusa biba byarabasabye imbaraga nyinshi kugira ngo ibigori byabo bikure.

Abantu bahinga ibihingwa, baba bafite ubuhanga bwihariye mu kwita kuri ibyo bihingwa, by'umwihariko abahinzi babigize umwuga, baba bazi igihe cyo gutera, ndetse n'igihe cyo kuhira n'igihe cyo kwita kuri iyo myaka, ibyo bibafasha mu kuzamura ubukungu n'imibereho byabo.

Ibihingwa na byo biba bikwiriye kugirirwa isuku aho babihinze. Mbere yo guhinga umuntu arabanza agategura ubutaka agiye guhingamo, hanyuma agashyiramo ibihingwa birimo nk'ibishyimbo. Iyo bimaze gukura nabwo ashobora kongera kubyitaho abyuhira cyangwa se akabikacira.

Abahinzi benshi bakunda kubona umusaruro uhagije. Mu gihe umuhinzi yahingishije ifumbire ihagije kandi nziza, abona na we umusaruro mwiza. Niyo mpamvu nk'abahinga ibirayi, iyo bejeje beza imifuka myinshi bakajyana ku isoko.

Ibishanga bifitiye akamaro abaturage, kuko havamo ubwatsi bwiza abantu bakabona icyo baha amatungo yabo. Nanone mu bishanga umuntu ahasanga amazi, ku buryo ayo mazi atuma ubutaka butuma.

Ibirayi bikundwa n'abantu benshi yaba abakire ndetse n'abakene, gusa ibirayi birahenda bitewe nuko abantu benshi babikunda. Ubwo rero mu gihe umuntu afite ibirayi, aba agomba kubyitaho kuko biba bizamugirira akamaro.

Abantu benshi bahinga urutoki, kandi urutoki rutanga umusaruro cyane. Mu gihe abantu bahinze urutoki, baba bakwiriye kujyana umusaruro wabo ku isoko, hanyuma bakabona amafaranga. Ayo mafaranga bashobora kuyifashisha mu bindi bintu bitandukanye, mu buzima bwabo.

Ibihingwa bifitiye akamaro abaturage, kandi iyo ibihingwa byitaweho neza, bituma abantu babona ibyokurya, bityo umusaruro wabo ukiyongera, nabo bakagira ibyishimo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bite ku buzima bwabo, icyakora ibimera bishobora gutera abantu ubwoba iyo bititaweho, hari ahantu ujya ukahasanga ibintu bimeze nk'ibihuru bikaba byatuma umuntu agira ubwoba mu kuhanyura.

Hari ibiti bitanga imbuto kandi ibyo biti inshuro nyinshi abantu ni bo babihinga ahantu bashaka bityo ibyo biti bigatanga imbuto abantu barya. Bimwe muri ibyo biti birimo amapera ndetse n'ibindi abantu bashobora guhinga bakabona umusaruro.

Ibimera by'ubwoko butandukanye, bishobora kuvamo imiti, kandi ibyo bimera bishobora kwifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo bibagirire akamaro. Umuntu wahinze aba akwiriye kwita ku bimera, kandi nta kimera kitagira akamaro, bitewe n'umuntu ugikoresha n'ubuhanga afite.

Ibiti kubibona biba bishimishije ariko uretse kubireba byonyine, hari n'akandi kamaro kabyo harimo nko gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka, kuba byakifashishwa mu bwubatsi ndetse no kuba byavamo inkwi zo gucana.

Ibiti iyo byitaweho neza bigirira akamaro abaturage kuko bikurura umwuka mwiza abantu bahumeka, na none kandi bishobora kwifashishwa mu kubaka kandi umuntu wabihinze ashobora kubigurisha agakuramo amafaranga.

Hari ibihingwa bihingwa imbere y'inzu, mu gihe ibyo bihingwa bihari nyir'inzu aba agomba kwitonda kugira ngo bitangiza iyo nzu kuko biramutse bikuze cyane bigasatira inzu, bishobora gutuma iyo nzu imera nabi, ikaba yahirima.

Igihingwa iyo ru kiri mu butaka cyishimiye kirakura neza kandi abantu bakibona bakumva banezerewe, niyo mpamvu umuntu ushaka guhinga agomba kubanza gutegura ubutaka agiye guhingamo igihingwa cye.

Akarima k'igikoni ni ingirakamaro cyane mu buzima bw'umuturage, kuko gatuma abona imboga zo kurya kandi akarima k'igikoni gafasha abana bakiri batoya kubarinda igwingira rituruka kubura indyo yuzuye.

Abantu bafite ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi, bagomba no kumenya uko basarura imyaka yabo. Kumenya uko basarura imyaka ni byiza kuko bituma umuntu ufite ibyo yahinze adahomba kandi bishobora gutuma ibyo yahinze bimwungura mu buryo bugaragara.

Abantu bacururiza mu mihanda na bo baba bakwiriye kwitabwaho bagahabwa agaciro. Gusa si byiza kuko badatanga umusoro kandi baba basebya igihugu. Ni yo mpamvu igihugu gishyiraho gahunda yo gukura abo bantu bacuruza ibintu mu muhanda kuko banatanga ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge rimwe na rimwe.

Abantu bakora uko bashoboye kose kugira ngo biteze imbere, hari ibikorwa byinshi bishobora kubateza imbere harimo nko kugemeka ibimera hanyuma bakazabigurisha nyuma bakabona amafaranga yo kubatunga, mu gihe umuntu yagemetse akaba yarahinze ingemyi z'ikimera runaka, agomba kwizera ko azabona amafaranga mu gihe runaka.

Ibihingwa birimo imyumbati bigira imizi iribwa kandi iyo mizi abantu benshi barayikunda, ubwo rero mu gihe umuntu abonye imyumbati ntagomba kwitega ko azarya amababi yayo nubwo hari bamwe bayarya nk'isombe, ahubwo agomba no kumenya ko hasi hari ibindi biribwa.

Mu nzu nyinshi z'ubucuruzi usanga hari imbuto zitandukanye, kandi umuntu ashobora kuhagera akumva zose yazigura ariko mu gihe umuntu agiye kugura agomba kureba igihuje n'icyo ashaka akaba ari cyo agura.

Abantu benshi bakunda guhurira hamwe kugira ngo bafate ibiti byo gutera ndetse n'imbuto, imbuto cyane cyane ibimera bikunze kubanza guhunikwa cyangwa se gutunganywa kugira ngo nyuma bizabyazwe umusaruro.

Hari abacuruzi bacuruza imbuto, kandi bafitiye akamaro abaturage. Zimwe mu mbuto bacuruza harimo imineke ndetse n'avoka, bikaba bikungahaye ku ntungamubiri. Mu gihe umuntu acuruza aba agomba kwita ku isuku y'ibyo acuruza.

Ibihingwa cyangwa se ibimera biba bifitiye akamaro abaturage, bakwiye kubifata neza kuko bivamo imiti ivura abantu kandi ibyo bimera bishobora kwifashishwa n'abantu b'ingeri zitandukanye kuko buri muntu wese akenera ikimera.

Karoti ni zimwe mu mbuto z'ingirakamaro abaturage bakunda kurya, kandi zikungahaye ku ntungamubiri. Abantu benshi, cyane cyane abarwaye amaso, iyo bariye karoti, zituma barushaho kureba neza, kandi zirafasha cyane.

Guhinga imyaka biba bisaba kuyitaho cyane, abantu bakayuhira, bakayisasira, bityo mu gihe umuntu ahinga imyaka, aba agomba kuyitaho uko ashoboye kose, akirinda ko udusimba tuhajya, hanyuma inyungu na we akayibona.

Abantu benshi bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Kimwe mu bintu gishobora kubafasha ni ukurya imbuto zirimo imyembe. Imyembe iba ikungahaye ku ntungamubiri zirinda uburwayi.

Igihingwa cyitwa karoti ni igihingwa cyiza cyane gihingwa mu butaka bwiza, hanyuma kigatanga umusaruro bityo abantu bakagira icyo bageraho mu buzima bwabo. Iyo umuntu ariye karoti bituma agira amaso meza kandi birafasha cyane.

Hari ibimera bigenda bihingwa ahantu hatandukanye kugira ngo bifashe abaturage kubaho neza, ibimera cyane cyane bikurura umwuka mwiza duhumeka kandi bikurura umuyaga abantu bakumva bagaruye ubuyanja mu gihe cy'izuba.

Ibitunguru bifitiye akamaro abaturage kandi iyo babiriye bagira intungamubiri ndetse ibitunguru bivura indwara zitandukanye. Izo ndwara zivurwa n'ibitunguru ziba zoroheje.

Ibinyomoro biba bifitiye akamaro abaturage kandi biba bikunzwe n'abana bakiri batoya, ku buryo bashobora kubirya amaraso akiyongera kandi ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza bityo umubyeyi akishima.

Ibishyimbo bifitiye akamaro abaturage cyane kuko bituma babona ibyo barya, bishobora gutanga imboga mbere yuko biba ibitonore, hanyuma abantu bagakuraho izo mboga bakazirya bityo bagakomeza kwishimira ubuzima.

Intoryi ni zimwe mu mbuto zihingwa n'abaturage kugira ngo bazirye hanyuma bakuremo intungamubiri ndetse bumva ubuzima bwabo bukomeje kugubwa neza, umuntu uhinga intoryi agomba kuba afite isasiro rihagije.

Ibihingwa bihingwa ahantu hatandukanye, bigirira akamaro abaturage, by'umwihariko hari ibihingwa bigenda bihingwa kugira ngo bifashe abaturage kubaho neza kandi ibyo bihingwa ni ukuvuga ibimera bifite akamaro kuko bivamo imiti.

Ibihingwa birimo indimu bifitiye akamaro abaturage by'umwihariko ibi bihingwa bikungahaye ku gutuma abantu batagira ibibazo bijyanye n'isukari nyinshi kuko bituma umubiri ugabanya isukari nyinshi, bityo bakaba bakirinda indwara zirimo umuvuduko w'amaraso.

Abantu bahinze intoryi, baba bakwiriye kuzitaho cyane, kuko intoryi ni igihingwa gisaba isasiro rihagije kugira ngo kibashe gukura; ndetse kiba gikwiriye kwitabwaho kugira ngo udusimba tutazaho.

Ibimera bifite agaciro cyane. Hari ibimera bihingwa ariko bikaba ngombwa ko bashyiraho ibiti kugira ngo bibashe gukura neza kuko iyo biryamye hasi bishobora kubora bityo umusaruro ukangirika.

Amaterasi y'indinganire ni kimwe mu bintu bituma abantu batagerwaho n'amasuri, kuko iyo ahantu haciye amaterasi y'indinganire, bituma amazi adatemba ngo agere ahantu ha kure kandi ntiyangize.

Abantu bacuruza, baba bacuruza ibintu bitandukanye, urugero hari abahinzi bahinga ibinyomoro hanyuma bakabijyana ku isoko, iyo babijyanye ku isoko babona amafaranga bashobora kugura ibindi bintu, bityo ubukene bukaba bwagenda nka nyomberi.

Abantu benshi bakunda gukora uko bashoboye kose kugira ngo bagire uruhare mu gufasha abandi kandi ibyo bibagirira akamaro, gusa abantu bahinga imyaka bakwiriye kuyitaho buri gihe, urutoki ni imwe mu myaka ihingwa n'abantu batuye mu cyaro.

Ikibuga cy'umupira kugira ngo kibeho barabanza bagatoranya ahantu heza harambitse hanyuma bagakuramo ibiti ndetse n'ibindi bintu bishobora kwangiza abantu bakahakora neza. Abaturage bakajya bahahurira bakahakinira umupira.

Hari imisozi myinshi igaragaramo ibimera ndetse n'ibibaya, aho umuntu abona umugezi utemba urimo amazi yanduye. Nubwo ayo mazi aba yanduye ntibibuza abahinzi guhinga kandi bituma abahakikije bashaka uburyo bakwiteza imbere.

Amashyamba ndetse n'ibindi byatsi ni bimwe mu bidukikije bidufitiye akamaro kuko bituma abantu babona umwuka mwiza bahumeka ndetse n'akayaga keza bityo ubuzima bukarushaho kubabera bwiza bakaryoherwa.

Imisozi ihingwamo ibintu bitandukanye ariko kugira ngo harindwe amasuri, ni byiza ko imisozi icibwamo indinganire, ni ukuvuga amaterasi atuma abantu bashobora kwirinda imyuzure.

Inka akenshi zibanza kwitabwaho zikiri ntoya kugira ngo zibashe gukura zimeze neza. Iyo inka ititaweho iki nto ishobora gukura nabi kandi bikaba byateza igihombo nyirayo, bityo ubukungu bwe bugasubira inyuma.

Amatungo aba mu bwoko bwinshi, by'umwihariko hari amatungo maremare, muri ayo matungo harimo inka. Inka iba ikwiriye kwitabwaho cyane, igahabwa ibyatsi, ikarya kugira ngo ikomeze kubaho no gutanga umusaruro kuri nyirayo.

Ihene ni itungo ryo mu rugo rifitiye akamaro abaturage. Ihene ishobora gutanga ifumbire kandi ihene iyo umuntu ayoroye akagira ikibazo cy'ubukene ashobora kuyigurisha akabona amafaranga yo kumukenura.

Aborozi b'ingurube bazororera mu biraro byabugenewe kugira ngo zikomeze gutanga umusaruro uhagije. Iyo ingurube yariye neza hanyuma ikaba ifite ibyana iba ishobora gutanga umusaruro n'inyungu byihuse.

Amatungo magufiya, akenshi abantu bakunze kuyaragira mu misozi, mu binani birebire, hanyuma ayo matungo na yo akabona ibyatsi akarya, akumva amerewe neza. Gusa si byiza kuko Igihugu cy'u Rwanda kitabyemera.

Itungo ry'ingurube riba rikwiriye kwitabwaho kuko rititaweho rishobora kwicwa n'umwanda. Mu gihe umuntu yoroye ingurube aba akwiriye kuyigaburira ndetse akayishyira ahantu heza kugira ngo ikomeze kubaho bityo na we abone inyungu.

Ingurube ni rimwe mu matungo yo mu rugo ryoroherwa ahantu hakwiye kuba hafite isuku, ingurube iyo yitaweho neza igirira akamaro uyoroye kuko abona amafaranga yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi mu gihe ayigurishije.

Aborozi b'amatungo magufi, harimo n'aborozi borora ingurube bakwiriye kwita ku matungo yabo bakamenya ibyo agomba kurya n'ibyo atagomba kurya, bakamenya aho agomba kuba, ukuntu hagomba kuba hafite isuku.

Mu gihe umuntu yoroye amatungo ni ukuvuga amatungo magufi, aba akwiriye kuyitaho akayakuyakuya kugira ngo akomeze kugubwa neza bityo na we abone umusaruro uhagije, hanyuma inyungu yiyongere.

Inka ni itungo ryiza cyane ritanga umusaruro ndetse n'inyungu mu gihe gitoya, ariko iba ikwiriye kugirirwa isuku ikitabwaho, ihabwa ubwatsi buhagije kugira ngo ikomeze guteza imbere uyitunze.

Ibihingwa byitwa ibishyimbo iyo bikiri bito uba ubona bidashimishije cyane. Ariko uko bigenda bikora umuntu agenda abona ko bizavamo imyaka ifitiye akamaro abaturage, bityo biba bikwiriye kwitabwaho. Iyo byitaweho neza bigirira akamaro abantu kuko babirya bakabona amafunguro.

Abavuzi b'amatungo baba bazi ibyo bakora, ku buryo iyo umuhamagaye ukamubwira uko itungo ryawe rimeze, amenya umuti yariha rigakira, cyangwa se akamenya ubuvuzi yaha itungo ryawe rigakira.

Amatungo yo mu rugo aba akwiriye kwitabwaho cyane, inka ni itungo ryiza cyane ritanga umukamo iyo ryitaweho neza, ni yo mpamvu umuntu woroye inka agomba kuyishyira ahantu hasakariye kandi hameze neza, ku buryo bitayigora mu gihe ishaka kubyara.

N'abantu bafite amatungo baba bakwiriye kuyitaho bayakingiza inshuro nyinshi ndetse no mu gihe itungo rigaragaza ibimenyetso by'uburwayi, baba bakwiriye guhamagara umuvuzi w'amatungo akita kuri ayo matungo yabo.

Abaganga b'amatungo bakwiriye kuba bafite ubuhanga mu bijyanye no kuvura, kuko mu gihe umuntu atera umuti inka cyangwa se irindi tungo aba afite ahantu agomba gutera uwo muti, kuko abikoze nabi byakwangiza iyo nka.

Abavuzi b'amatungo, bahabwa amahugurwa yihariye. Niyo mpamvu mu gihe umunyeshuri yiga ibijyanye no kuvura amatungo agenda ahabwa ubufasha mu gihe bamufasha kwiga. Ibyo babikora bamuha gusuzuma izindi nyamaswa, akamenya uko zirwaye.

Abantu bakenera ibintu bitandukanye mu buzima harimo n'inyama. Abantu bagiye guhurira hamwe bagomba kwirinda umwanda cyane cyane mu gihe bagiye kubaga itungo, niyo mpamvu abantu benshi bakwiriye kugirira isuku ahantu bagiye gutegurira itungo ryabo mu gihe bagiye kuribaga.

Abantu bafite amatungo magufi na bo baba bakwiye kuyitaho kugira ngo babone umusaruro uhagije, iyo bita kuri ayo matungo bituma umusaruro atanga uba uhagije kandi bashobora gushaka abaganga b'amatungo bakabagira inama.

Abaganga b'amatungo aba ari abantu babyigiye kandi baba bafite ubumenyi buhagije kugira ngo bite kuri ayo matungo, mu gihe umuntu abonye itungo rye rirwaye akwiriye kwegera abo baganga bakamufasha.

Abaganga b'amatungo bayitaho babyitondeye, kandi by'umwihariko aba baganga baba barahawe inyigisho zibafasha, kugira ngo niba itungo rifite ikibazo, babashe no kuba barikora mu nda, bakarivura uburwayi ubwo aribwo bwose.

Inkende ni inyamaswa zikunze kwibera mu biti kandi abantu barazikunda, ba mukerarugendo bakunda kuza kureba inkende mu gihugu, kandi ibyo biba bifitiye akamaro igihugu kuko bishyura amadovize.

Inkende zikunda kwibera mu giti ndetse rimwe na rimwe abana bazitiranya n'abantu kubera ko zifite imiterere ijya kumera kimwe n'iy'abantu, inkende ni imwe mu nyamaswa ikurura ba mukerarugendo bakaza bakabona amadovize, abantu.

Inyoni zirimo amoko menshi, gusa inyoni akenshi abantu bakunze kuzibona zihagaze mu biti kandi izo nyoni zituma abazibona bumva banezerewe. Rimwe na rimwe inyoni zitanga akajwi keza ku buryo umuntu wumva afite ikibazo yumva agaruye ubuyanja.

Inyoni zikunda kugira uruhare mu gutuma ibihingwa bibangurirana, kuko kubera kugenda zirya ubuki buva mu ndabo zitandukanye, nazo zifasha indabo kubangurirana.

Inyamaswa ziba mu gihugu ziba zitandukanye. Mu bihugu bimwe na bimwe habamo inyamaswa zimeze nk'abantu ku buryo umwana ashobora kuzibona akaba yagira ngo ni umuntu mugenzi we.

Inyamaswa ziba mu Kagera cyangwa se ahandi hantu habugenewe na zo zifite agaciro gakomeye, by'umwihariko mu gutuma ba mukerarugendo baza hanyuma bakishyura amafaranga, abantu bakabona uko bagira ubuzima bwiza.

Ihene ni itungo rigufi ryo mu rugo, rikaba rifite akamaro cyane muri sosiyete nyarwanda kuko rituma abaturage babona ifumbire. Na nonekandi umuturage ukennye ashobora kuryikenuza kuko iyo arigurishije abona amafaranga yo kwifashisha.

Inyamaswa zo mu gasozi na zo ziba zikwiriye kwitabwaho kuko na zo zifitiye akamaro igihugu. Izo nyamaswa zikwiriye kurindwa ba rushimusi bazica nta burenganzira babifitiye bwo kuzica.

Inkende ni inyamaswa ziba mu biti zikaba zifite akamaro cyane kuko zikurura ba mukerarugendo, inkende zigirana ubucuti hagati yazo kandi zigira amayeri menshi ku buryo zishobora gukanga abantu mu gihe batazimenyereye.

Abantu b'ingeri zitandukanye bishimira kubona inyoni ziguruka ndetse kandi iyo ziri mu giti kuzireba biba bishimishije. Inyoni zigira amabara menshi kandi inyoni zifite ubushobozi bwo kuguruka ku buryo umuntu atabyiyumvisha.

Inyoni zo mu bwoko butandukanye, zishimisha abantu bazireba. Inyoni zigira akajwi keza gakangura abantu iyo biryamiye bakumva bameze neza. Inyoni zikunda guhagarara ku bihingwa, kandi rimwe na rimwe zigira uruhare mu ibangurana ry'ibyo bihingwa.

Inzovu ni imwe mu nyamaswa nini cyane. Inzovu akenshi iba ifite ubushobozi butandukanye n'ubw'izindi nyamaswa, kuko ifite ubushobozi bwihariye bwo kwibuka ugereranyije n'izindi nyamaswa zose.

Hari inyamaswa ndende zigaragara hirya no hino mu gihugu ni ukuvuga muri parike zitandukanye, izo nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bityo nabo bakishyura amafaranga, ayo mafaranga bishyuye afasha mu gutuma igihugu gitera imbere.

Inyoni zibamo amoko menshi kandi ziba mu mabara atandukanye, abantu benshi bakunda inyoni kuko zibabyutsa mu mugitondo, kandi inyoni zikunda kugaragara mu bice byose by'igihugu, ubwo rero ni ngombwa kuzifata neza.